Abantu bafite indobo iruhande rwabo hari ubwato bwa kinyarwanda ubona ko barimo baradaha amazi muri izo ndobo bafite, ahantu ubona ko wagira ngo ni mu gishanga cyangwa mu kiyaga bari kudaha ayo mazi.

Umuntu bigaragara ko avuye gusarura mu murima we, imbuto yari yarahinze, akaba asaruyemo izeze.

Ndabona uyu ari umuntu uri mu murima w'umuceri ashobora kuba arimo arareba ko umuceri we weze cyangwa arimo arawugarira, cyangwa arimo aragira ibyo awukoramo kugira ngo were neza.

Amacupa y'imiti wagirango naho bayicururiza cyangwa aho bayitangira kwa muganga.

Abantu babiri, umwe ni umuma undi ni umugabo, barimo barahumbika imbuto zo kuzatera bazishyira mu bihoho, bazazikuramo bazijyana mu murima.

Inka nyinshi ubona zimwe zirimo konsa indi bari kuyikama hari umubyeyi urimo urayagaza kugira bayikame itikubaganya.

Umuntu uri gutera ikintu kimeze nk'ururabo ahantu wagira ngo ni muri jaride.

Ndabona uyu ari umuntu, uri kwita ku rubuto rwa avoka kugira ngo arebe ko rwakora neza, ari nk'urugemwe yateye cyangwa se ashobora kuba arimo aratera ahantu kugira ngo arebe ko rwazamererwa neza rugakura.

Igiti cy'umwambe giteye mu bindi bintu bimeze nka jaride, n'ibindi biti binini utapfa kumenya ubwoko bwabyo. niba ari voka,...

Uruyuzi rwera ibihaza cyangwa se ibyo twakwita nk'imyungu, bigaragara ko ruteye mu murima, wari urimo ibindi bihingwa ariko basaruye.

Biragaragara ko, iyi foto ari ishyamba ryinshi ry'inzitane, ariko noneho utaragera kuri iryo shyamba, ubanza ugaca ku kibaya.

Biragaragara ko hari abakerarugendo bagiyemo gusura parike barimo barareba inyamaswa banazifotora kugira ngo bacyure amafoto yazo, aho bigaragara ko hiryari inyamaswa imeze nk'ingagi ariyo barimo barafotora.

Ndabona, aha ahantu wagira ngo ni ahantu mu ishyamba, aho hamwe harimo ibiti bikuru cyane, ahandi harimo ibiti biringaniye, ahandi harimo ibiti bito.

Biragaragara ko uyu muntu ashobora kuba ari mu murima w'ibirayi, ari kubyuhirira kugira ngo bimererwe neza, bizere neza.

Umuntu uhagaze mu murima w'ibigori harimo n'ibitembo bivomerera ibyo bigori.

Umuntu, insina, ibyatsi, umupira, amazi.

Biragaragara ko ari ikibaya gikikijwe n'ibintu by'ibiti byinshi, aho umuntu arimo arareba no mu kirere cyaho hakurya, ukabona ari ahantu harambije, hateye neza.

Ikibaya ubona ko kirimo ubwoko bw'ibiti byinshi bitandukanye.

Igiti, imisozi, ikirere ibindi bintu bimeze nk'ibyatsi wagirango ngo biri bikikijwe n'amazi.

Ahantu ubona ko ari mu bwororero bw'inkoko, aho hasi hari ibiryo zijya n'amazi zinywa, ari ku bintu bimeze nk'imipfundikizo.

Ingurube wagira ngo iri mu kiraro ihagaze mu bintu wagira ngo ni ibyo yaryaga irabimena ariko ikaba irimo kurya n'ibindi mu kintu bashobora kuba barayikoreye iriramo.

Umuntu w'umugore uri kwanika ibigori ubona ko byatangiye kuma wagira ngo yabyanitse ku mifuka cyangwa shitingi.

Abantu babiri ubona ko barimo barakora inka mu nda ,wagira ngo bagiye kuyitera intanga ,cyangwa kuyikoramo ngo bumve y'uko ifite inyana mu nda.

Imbeba ihagaze ku kintu kimeze nk'agatebo, igiti, ibyatsi n'ibindi bintu bimeze nk'indabo.

Agasimba bita impongo kari mu gisambu bigaragara ko wagira ngo kari mu ngano, mu bihingwa by'ingano cyangwa se ibyatsi bita imikenke.